Intoki z'umuntu ziri gukaraba amazi kuri robine, irasa ubururu, izo ntoki na zo ziri gukaraba kugirango arwanye indwara ziterwa n'umwanda, iruhande rwa robine hari isabune.

Ku mavomero rusange haba hari imigezi abaturage baza kuvomaho amazi, turabona umuntu waje kuvoma amazi inyuma ye hari ibyatsi byinshi. Aya mavomero ashyirwaho na leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwa remezo.

Ni kwa muganga, ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvuzi. Hari abantu bahicaye ndetse hari n'umwana wasamye, hari umugabo wambaye agapira k'umutuku uri kumuha ikinini mu kanwa. Abari aho bose bari kumwitegereza.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga, aho hakurya hari kugaragara agasozi kariho utuzu dutoya, ndetse hariho n'ibiti bigufi cyane.

Abana bagera muri bane bahurije ibiganza hamwe hejuru y'ibase, hakaba hari umuntu mukuru uri kubasukira amazi ngo bakarabe, ni byiza gukarabya abana intoki mbere y'uko bagira icyo bakora, cyangwa bafata ifungunro.

Abana bateraniye hamwe bari kuvoma ku iriba, aho bavoma bahagaze mu mazi ndetse badubitsemo ibijerekani, ibi bikaba biteza umwanda kuko aya mazi ashobora kubatera indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi batonze imirongo ibiri harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kwifotoza ku mpande zabo hariho amadarapo abiri rimwe ni iry'u rwanda irindi ni iry'umuryango wita ku bana UNICEF. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko.

Umuganga wambaye akajiri k'umukara, ari kumwe n'undi mugenzi we, iruhande rwabo hicaye umugabo wambaye akagofero k'abisilamu, inyuma ye hahagaze abana, bakaba bari kumwereka ku gipapuro uko wabigenza kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye amadarubindi w'inzobe. Ni we waje ku ifoto, akaba azadusobanurira ku bijyanye n'inkingo zigiye kuza za kanseri y'inkondo y'umura, bibiri na makumyabiri na gatatu, bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo babiri bicaye imbere y'ameza, bakaba bari gutanga imbwirwaruhame ku meza hariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho Sudani y'epfo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara na karuvati n'amadarubindi akaba ahagaze ku ruvugiro arikuvuga, iruhande rwe hari intebe eshatu zibereye aho ariko hakaba hateretseho amazi, inyuma ye hari icyapa kiriho insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Abana bambaye impuzankano za kaki, bari gukaraba amazi. Harimo umwe wamanitse amaboko. Aba ni abanyeshuri. Leta yashyizeho uburyo bwo kwegereza amazi ibigo by'amashuri kugira ngo abana bajye bayabona bitabagoye.

Abamama benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, aho bari gukoma mu mashyi, n'abajyanama b'ubuzima, haru umugabo uri imbere yabo wicayem ku gatebe wambaye agashati k'umweru, imbere yabo hari ikibuga kinini, shitingi barimo irasa umweru.

Abana babiri, bagiye kuvoma amazi ku iriba. badubitse ibivido mu iriba, aho bari kuvoma. Aya mazi ntabwo aba isuku. Ashobora no guteza umwanda.

Abamama benshi baje gukingiza abana, hari umwe uhagaze wambaye ibitenge, akikiye umwana, akaba afashe ibipande bye mu ntoki, bategereje umuganga uza kubafasha.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama, bari imbere y'ibiro by'Umurenge, harimo abambaye imyenda itandukanye: umutuku, umukara, umweru, ubururu, icyatsi, harimo n'ababyeyi.

Umugabo n'umwana bari gusuhuzanya, uwo mwana ni umunyeshuri, uwo mugabo na we yambaye agapira gasa nk'icunga n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma yabo hari abandi bana bari kubitegereza ndetse n'umugore uhagaze bisa nk'aho ari umwarimu.

Icyapa kiri mu mashusho cyangwa se mu mabara y'umukara ndetse n'ibara rya orange harimo ikimenyetso cyo guteranya cyanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama. Harimo abagabo n'abagore. Bicaye bazengurutse ku meza, ameza ariho igitambaro gisa umweru.

Abaganga bari gufata ifoto y'urwibutso. Hakaba harimo batatu bicaye, abandi bahagaze inyuma. Bose bambaye amataburiya y'umuhondo n'amashati y'umukara. Inyuma yaho, hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari bari kuganiraho.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi, hari umugabo uri kubakoresha inama wicaye imbere, hakaba hari n'ibendera ry'u Rwanda, harimo n'umugabo w'umuzungu mubitabiriye iyo nama.

Umugezi rusange aho bavoma umwe ari gupomba undi ateze ivido hari umugore uri gupomba n'umwana uteze ivido hirya hari abantu bahagaze mu nsina bari gushungera.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira k'umweru, agiye gutera urushinge umumama wicaye ufite imisatsi izinze, uwo mumama afite ubwoba bwinshi bw'urushinge, inyuma ye hari undi muntu uhahagaze nawe wambaye agapfukamunwa.

Amashusho agiye atandukanye agaragara kuri iki cyapa. Hariho rimwe n'ibice bibiri ku ijana, mirongo irindwi na gatanu ku ijana, rimwe ku ijana, ijana na mirongo itanu na kabiri ku ijana ndetse na makumyabiri na kane ku ijana.

Abajyanama b'ubuzima bari mu cyumba hamwe, bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hari umuntu uhahagaze uri kubakoresha inama nubwo atari kugaragara igice cyose.

Abantu bateraniye hamwe bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abana, hari ibyapa bafashe mu ntoki byanditseho amagambo atari kugaragara neza mu ibara ry'ubururu.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwa remezo, leta yashyizeho imigezi myiza yubatswe mu buryo bugezweho. Aho haba hari akazu gasakaye, umuntu yicaramo ari kuvomesha.

Umumama wajyanye umwana kwa muganga, muganga akaba amufashe ukuboko, ari kumuvura ari kumusekera, umwana nawe ari kureba muganga yishimye kubera ko muganga ari guseka.

Umubyeyi uryamye uri kwa muganga. Ararwaye ararembye cyane. Abaganga baje ari babiri kugira ngo bamwiteho. Umwe yashyize agapimo ku nda, ari kumva ko ameze neza.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi rusange aho hari umuntu uri kuwukanika wambaye ingofero y'abafundi. Bose bari kumwitegereza yafunguye none imigezi yose amazi ari kumeneka.

Inyubako y'uruziga iri mu ishusho itangaje, hirya hari inyubako yubatswe mu buryo bwa etaje ndende cyane, yubakishije amatafarihiye ndetse isakaje amabati y'umutuku.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama, akaba ari inama igiye kwiga ku bijyanye n'ubuzima mu gihugu. Hari abantu bicaye imbere bagiye kuyibakoresha ndetse n'icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, kiriho iyo nsanganyamatsiko.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bambaye impuzankano z'umweru, bigaragara ko bateranyijwe n'igikorwa kimwe, bamwe bambaye ingofero abandi bambaye amadarubindi abandi ntayo bambaye, bari kureba imbere bakurikiye umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame nubwo atagaragara.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru. Ntabwo bagaragara neza ariko barishimye bazamuye impapuro z'umweru. Bari kumwe n'umwarimu wabo na we yishimanye na bo kuri uwo munsi.

Umugabo wambaye amadarubindi, ikositimu ndetse na karuvati. Ari ku ruvugiro, aho rwanditseho ngo "ni umunsi w'ikiganiro cyiga ku bukungu bw'igihugu." Iruhande rwe hari intebe eshatu zibereye aho.

Inzu ngari cyane iteraniyemo abantu bari mu nama, bicaye buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibyavugiwemo, imbere hari umuntu uri kubakoresha iyo nama n'ubwo atagaragara, ibikuta by'iyo nzu bisa umuhondo n'umweru.

Umwana wafunguye amazi kuri robine, akaba ari gukaraba intoki, akaba agiye kuyanywa. Yambaye agashati k'icyatsi. Iruhande rwe hateretse ibidobo bibiri byavomewemo amazi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bari mu nama. Hari umugore wambaye amadarubindi ndetse harimo n'umugabo w'umuyisilamu. Bose barebye imbere, bakurikiye umuntu uri kubagezaho inama.

Umwana muto wagiye ku mugezi kuvoma. Ajyanye indobo, none amaze kuyivomera ari kuyikorera yamunaniye. Haje umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, amuzaniye ingata ngo abe ariyo yikoreza, bitaza kumurya mu mutwe.

Umugabo, umugabo wambaye akajire k'umukara, ahagaze arebana n'undi mugabo wambaye ishati y'icyatsi n'agapfukamunwa, imbere hari mudasobwa hari n'undi mugabo w'umuganga uri guha serivise umukecuru uhagaze hirya.

Ikirango cy'ubuzima. Hari amaboko y'umuntu ari kugihobera nubwo uwo muntu atari kugaragara. Hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo: ''Wihogora.''

Umuntu wicaye yambaye imyenda y'ibicuki, ipantaro yamucikiyeho yitangiye itama. Uyu ni umusazi afite amashashi iruhande rwe, ndetse ari kugenda atoragura n'amacupa.

Umusore bigaragara ko yahungabanye, yicaye yigunze ndetse hari umukobwa umufashe ku bitugu wambaye isaha, ari kumubwira ati "humura mwana w'Imana, ubuzima ni uku ubumera, yewe ejo nawe waba uri muzima".

Abantu bahagaze harimo abakobwa n'abahungu, abagore ndetse n'abagabo bari kwifotoza, aho bafite icyapa imbere yaho cyanditseho insanganyamatsiko iyo nama yabo yari iri kwigaho.

Abaganga bahagaze imbere y'ameza, ariho ibitambaro by'umukara ndetse harambitseho n'ikintu cyuruziga cy'umutuku bigaragara ko ari nk'igipirizo ba pompye.

Abagore bari gucurira bakoma mu mashyi. Bambaye uturango twabo tw'akazi. Harimo n'umuzungu na we wambaye akarango k'akazi mu ijosi. Ameza yabo ateretseho amazi.

Abamama bagera muri batatu, bicaye hamwe ku meza, buri wese imbere ye hateretse amazi, hari umugabo imbere uri kuvuga, icyapa kiri inyuma ye cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Abantu benshi bicaye hamwe aho begamye, bakaba bari mu cyumba cy'inama, gifite ibikuta by'umweru ndetse hariho n'insakazamashusho ifunze.

Umuntu uri kurira akaba yirabura. Nk'uko bigaragarafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ahangayitse cyane, bikamutera agahinda. Ni byiza kumwegera ukamuganiriza ndetse ukanamuhumuriza.

Umubyeyi w'umugore ukikiye umwana bose bari guseka bigaragaza ko bishimye, bahagaze imbere y'inyubako ifite amatafari ahiye, ikaba ifite n'amadirishya afite ibyuma by'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama. Bicaye barebye imbere, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hari umugore uri kubakoresha inama. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye barebanye na ba bantu, bigaragara ko na bo bakurikiye iyo nama.

Abantu benshi cyane bahagaze ndetse n'abandi basutamye, aho bari kwifotoreza mu cyumba cyaberagamo inama, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ''ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana ku isi UNICEFU.''

Inama yateraniwemo n'abantu benshi bagiye batandukanye, akaba ari umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Hari abaganga b'inzobere bicaye imbere bari kubakoresha iyo nama, kuri icyo cyapa hariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icya RBC.

Madamu Jeannette Kagame yambaye imyambaro y'icyatsi, ahagaze ku ruvugiro imbere ye hari indangururamajwi akaba ari gutanga ikiganiro ku byerekeranye n'indwara zigiye zitandukanye.

Umudamu wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye amadarubindi ari gutwereka ikarita ye y'akazi, inyuma ye hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gisa n'igikuze.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda y'ibicagagure y'ibicuke, akaba ari kugenda atora amashashi mu muhanda, umusatsi wamwereyeho bigaragara ko ari gusa nabi cyane.

Agapira kari mu mabara y'umweru n'ubururu, ni keza cyane urabona ko nawe ukambaye kakubera, nakugira inama yo kuba wajya kugashaka ku isoko, hanyuma nawe ukaberwa.

Umumama wambaye ibitenge, akaba ari gushegesha igikoma hanze kumaziko ya gakondo, yicaye imbere y'inyubako ifite inzugi z'ubururu yubakishije amatafari ahiye. Hari n'inkoko iri kugenda hafi aho.

Umuntu w'umurwayi wo mu mutwe akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aricaye yarambitse ukuboko kumwe hasi ukundi yakumanitse yashinze ivi ashinga n'akaguru inyuma ye hari inyubako ifite amabati ashaje cyane.

Abamama babiri harimo umukecuru, bari kureba muri terefoni. Umumama umwe acigatiye umwana, umwana akaba ari kureba muganga ndetse umumama ucigatiye umwana akaba yambaye amaherena n'akanozasuku mu mutwe.

Amashusho agera kuri ane bahuje imwe iriho umugabo wambaye agapira k'ubururu ari gukora umuganda hamwe n'undi mugabo, iya kabiri barahagaze, iya gatatu hari abantu bane, iya gatanu ni abantu benshi bamaze gukura umuganda bafite udupira tw'impuzankano tw'ubururu.

Umwana mwiza cyane ukiri muto, akaba yambaye ishati y'umweru iriho karuvati, afite imisatsi myiza ya derede, ari guseka bigaragara ko ntakibazo afite.

Imodoka y'umweru yifashishwa batwara ibintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuvuzi. Bakaba bagiye kutwereka ivuriro rishya bagiye gutaha riherereye mu Karere ka Bugesera.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umutuku n'ingofero. Akaba yitangiye itama nk'ikimenyetso cy'uko ababaye. Hari undi waje aramwegera, wambaye iby'umukara n'amadarubindi. Akaba ari kumuganiriza amuhumuriza.

Umu mama wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo. None muganga ari kumubwira ngo yasame hanyuma arebe ikibazo amenyo ye afite mu kanwa. Umugore nawe yabyubahirije.

Umukobwa ufite urudodo, ushinyitse ari gusukura amenyo ye, ni byiza cyane gusukura amenyo ukoresheje urudodo kuko rugera aho uburoso butagera, rukavanamo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo.

Aha ni kwa muganga, aho hari intebe nyinshi zigiye zitandukanye, ziri mu mabara y'umutuku, zikaba zifite amapine, izi ngizi nizo abarwayi bicaraho igihe baba bari kubakura amenyo.

Abantu bicaye ndetse n'abahagaze, aho bari kwifotoza. Bari bari mu nama none irarangiye, bari gufata ifoto y'urwibutso. Bose barishimye kandi barimo guseka.

Umugore mwiza cyane, urwaye none yagiye kwa muganga, bari kumuha ikinini nyuma yo kumukura iryinyo yari arwaye kugira ngo ibisebe byo mu kanwa bibashe kuma.

Umugabo mwiza cyane, w'inzobe. Yashinyitse afite akadodo mu ntoki, ari kugasukurisha amenyo ye. Ni byiza gusukura amenyo dukoresheje urudodo, kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri guseka atwereka amenyo ye ukuntu ameze neza, akaba ayakorera isuku akoresheje urudodo. Ari kutugira inama zo kujya dusukura amenyo yacu natwe akamera nk'aya ye.

Umukobwa w'imibiri yombi. Wambaye agataburiya gasa umweru, n'agapira gatambitsemo uturonko tw'umweru. Akaba yicaye afite indorerwamo ari kwireba, areba amenyo ye ukuntu meza. Kubera ko ayagirarira isuku.

Utwuma tugiye dutandukanye abaganga bifashisha igihe bari gukura umuntu amenyo, tukaba dusa ibara risa umukara.

Abana bazamuriye amaboko icyarimwe ni abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bazamuye amaboko bafashe imiti y'amenyo, barishimye bigaragara ko bagiye kujya bagirira isuku yabo ku menyo.

Umuntu urwaye amenyo aba agomba kujya kwa muganga hanyuma inzobere mu buvuzi zikayakura, uya tubona yararwaye iryinyo none yaje kwa muganga, muganga amaze kurikura.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba afite urudodo mu ntoki, ari kugenda asukura amenyo ye. Ni byiza cyane gusukura amenyo dukoresheje urudodo kuko bituma tugira ubuzima bwiza. Nawe nakugira inama yo kuzajya ukoresha urudodo mu gihe usukura amenyo yawe.

Umusore ufite imisatsi ya direde yambaye agapira k'umweru afite urudodo mu menyo aho ari kugenda ayasukura, ni byiza gusukura amenyo dukoresheje urudodo kuko bituma nta myanda isigara hagati y'amenyo yacu.

Umuntu uri gukorera isuku amenyo ye, akoresheje urudodo. Yambaye ubusa hejuru, aho afite urudodo ariyo kugenda akoza hagati y'amenyo, kugira ngo amaremo imyanda iba yasigayemo, mu gihe ari kurya.

Umwarimu ari gusobanurira umunyeshuri uko amenyo abagiye ameze mu mubiri, inyuma y'abo hari abantu bahagaze bari gukurikira ndetse harimo n'umuzungu, ku kibaho handitseho amagambo atari menshi.

Ishusho y'igikanka. Aho baba batwereka amenyo n'ibice byayo byose. Ni byiza cyane kugira ngo umuntu asobanukirwe amenyo, amenye n'imizi aba afite uko ingana.

Umwana uri gukina n'umusaza, aho bari gukina umupira wa basikete. Umwana w'umukobwa arawufashe, ari kugenda awukina acenga umusaza, umusaza na we agerageza kumwataka.

Umukecuru, umugore ndetse n'umwana, bari kureba bose bari guseka, uwo mugore yambaye amadarubindi, umwana asa n'aho ahumye afite utwatsi mu ntoki.

Umusaza n'umukecuru baricaranye. Umusaza yambaye agashati karimo imironko k'umweru. Umukecuru yambaye agapira k'icyatsi. Bari kureba muri telefoni umusaza afite. Imbere yaho ku meza impande y'umusaza, hateretse uducupa turimo ibinini, ndetse n'kirahuri cy'amazi, yo kubinywesha.

Umugabo w'umuzungu wambaye agashati ka karokaro usa n'ushaje, ari gusangirira ku meza n'umukecuru, aho arigushyira imboga ku gasahani ke kugira ngo aze kurya indyo yuzuye.

Umusaza wambaye ishati isa igitaka cyangwa se shokora ari kumwe na muganga amwereka urupapuro. Muganga arikumusobanurira ukuntu azajya arafata iyo miti.

Umusaza n'umukecuru. Bafashe urupapuro. Bari kurureba bari kurusoma. Umusaza imisatsi ye n'imvi, yambaye amadarubindi ndetse afashe na telefone mu ntoki. Bari mu cyumba cyiza cyane, kigari kandi.

Abantu bageze mu za bukuru, bateraniye ahantu hamwe kwa muganga, aho bafite utubando bicumba, bicaye mu ntebe zigezweho zitwa amadiva. Bakaba bakurikiye umuntu uri kubaganiriza imbere yabo.

Umusaza ugeze mu za bukuru. Yambaye agashati keza, yifotozanyije n'umukobwa wambaye amadarubindi. Abantu bageze mu za bukuru tuba tugomba kubitaho, tukabaha ubufasha bwose bakeneye kugira ngo bazagire amasaziro meza.

Umusaza ugeze mu zabukuru. Yicaye ku gatebe, yambaye imyambaro y'umweru. Inyuma ye hari umuganga wambaye impuzankano z'ubururu, bakaba bari kurebana mu maso bishimye. Akaba ari kumuha serivisi.

Umusaza ugeze mu zabukuru. Yambaye ishati y'ubururu, hari umukobwa uri imbere ye wambaye imyenda y'ababaganga ari kumufungira ibipesu. Ku ruhande rwaho hateye amoko y'ibiti, abiri atandukanye.

Umusaza afatanya ukuboko n'undi mugabo bigaragara ko bishimye, bari kugenda mu gahanda gashashemo amapave, inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse hari n'itara ryo ku muhanda.

Umusaza afashe agacupa k'umukara, ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye amadarubindi n'itaburiya, ari kureba kuri ako gacupa, imbere y'umuganga hari mudasobwa. Naho imbere y'umusaza, hari udukombe tubiri.

Umusaza n'umukecuru baricaye bari kureba ku rupapuro, umusaza yambaye agapira k'ubururu n'aho umukecuru yambaye ak'umweru, imbere ku meza hateretseho agacupa karimo imiti, umukecuru akaba ari kumwereka igipimo agomba gufata.

Umusaza ugeze mu zabukuru. Aricaye ari kumwe n'umukobwa ukiri muto w'umuganga. Akaba ari kumwereka muri telefoni undi na we yakurikiye. Imbere ye hateretse agakoresho kari mu ibara ry'umukara.

Umusaza wambaye umupira usa nk'igitaka, akaba afite kamubazi ku kuboko kwe yatunzeho urutoki, bigaragara ko ari kureba isaha, imbere ye hari akameza.

Mu turere twa Ngororero, Rubavu, Nyaruguru ndetse na Nyabihu, aho bahinga icyayi, abantu bageze mu zabukuru, bakunze kujya kugisoroma kuko bibafasha cyane, kugisoroma birabaryohera kandi bibaha n'amafaranga.

Umusaza ugeze mu zabukuru wikingikirije akabando, yicaye ku gatebe ari kumwe n'abuzukuru be, bakaba bose bari kurya amandazi, umwana muto wicaye hirya afite akajerekani karimo amata barikuyanywa.

Umugore n'umugabo bakaba bafashe icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira bari imbere ya hantu hari amadarapo abiri iry'u Rwanda ndetse n'irindi ry'umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo. Hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umweru n'umukara avuga ngo inkuru nziza. Hakaba hariho n'ayandi yanditse ku ibara ry'umutuku, avuga ngo wabona urukingo, hanyuma ukabaho mu buzima bwiza.

Icyapa gisa ubururu, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Hari kandi udushusho tubiri tw'umutima twanditsemo amagambo agiye atandukanye. Hari aho bari kuvuga ngo "Turi ubyiruko, dushobora kurwanya virusi itera SIDA"

Abantu bateraniye hamwe mu nama, bicaye ku ntebe z'umutuku. Harimo abagore n'abagabo. Imbere yabo hari abandi ba mama n'umugabo umwe, bari kubakoresha ikiganiro. Hakaba hari n'ibyapa imbere yabo, biriho insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Ishusho itwereka inyuguti ebyiri mu ibara ry'umweru, inyuguti ya H ndetse na R hagati yazo harimo ibiganza bibiri, biri kuramukanya handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ariko ugenekereje mu kinyarwanda aravuga ngo ubuzima bw'abaturage b'u Rwanda.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro, Kamera zimutunzeho akaba ari gutanga ikiganiro, iyo kamera iri kumufotora, amashusho ari gusohokera kuri porojegiteri iri ku rukuta aho ari kugaragara ari kuvuga.

Umugabo n'umugore wambaye amadarubindi, bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, icyo cyapa kirasa ubururu n'icyatsi handitseho amagambo adasomeka neza.

Abantu babiri harimo umugabo n'umugore. Bifotoje bafite icyapa cyanditseho bibiri na mirongo itatu. Bari kwamamaza inama mpuzamahanga, izaba bibiri na mirongo itatu, yita ku buzima.

Abantu bagera muri bane bambaye udupira tw'umweru bafashe udukingirizo mu ntoki batwibutsa ko sida ikiriho, mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ibuka gukoresha agakingirizo wirinda indwara zanduriramo.

Icyapa kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda. Hariho kandi n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Ba kutubwira amabwiriza, agenga uburyo twakwirinda icyorezo cya virusi itera sida, mu Rwanda.

Icyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru, hakaba harimo inyuguti ya "H"na "R" hagati yazo harimo ibiganza biri gusuhuzanya, ayo magambo mu magambo arambuye ugenekereje mu kinyarwanda ni ubuzima bw'abaturage mu Rwanda.

Hehe n'igwingira aha baratwereka uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo igwingira rigende burundu, ushoborabo kurya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo ndetse n'imbuto.

Uducupa dusa umweru, tukaba turimo urukingo rwifashishwa bari gukingira indwara y'ubushita bw'inkende. Tukaba dufite imipfundikizo isa icyatsi ndetse dufite n'ahantu hasa umutuku.

Umukobwa w'umuganga arikuvura umudamu wagize ikibazo akaba ari kumupfukira ku kuboko akoresheje imiti yabugenewe hirya hari abandi bantu bahagaze nabo baje gushaka serivisi.

Abaganga babiri. Bambaye imyambaro yabugenewe iri mu mabara y'ubururu. Umwe afite turunovisi mu kuboko kw'ibumoso. Akaba ari kugerageza gufungura icyuma, kugira ngo barebe ibirimo.

Amashusho atwereka indwara mu Rwanda barwanya. Aya mashusho ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi n'umukara, muri izo ndwara harimo SIDA, Covid cumi n'icyenda ndetse na kanseri.

Umukorerabushake ndetse n'umuganga, bari kuganira bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari abandi bamama bahicaye bambaye udupfukamunwa, ndetse bakaba hari ibintu bari kwandika.

Madamu wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Jeannette Kagame, yambaye imyambaro y'icyatsi n'amadarubindi, ari gutanga ikiganiro cy'ukuntu twasigasira ubuzima bwo mu mutwe ndetse tukirinda n'indwara zo mu mutwe.

Abantu bateraniye hamwe, bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho ngo "twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare, kuko iravugwa igakira".

Ishusho iri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse na oranje, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, ariko kandi harimo n'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi.

Abagore b'abakecuru batatu b'ababikira. Bambaye imyambaro yabo. Bari gusuhuzanya n'umugabo wa Minisitiri w'Ubuzima. Inyuma yabo, hari icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, hariho n'ibirango bya Minisiteri y'Ubuzima.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, kikaba ari ikigo cy'igihugu cyita ku buzima R irasa ubururu, B umuhondo, C irasa icyatsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cyaberagamo inama. Bamwe baricaye, abandi barahagaze. Bari kwifotoza, aho inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko iyo nama yabo yigagaho.

Ishusho iri mu mabara y'icyatsi handitseho umubare gatatu ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza ugenekereje mu kinyarwanda biravuga ngo ubuzima bwiza ku kiremwa muntu hari n'uturongo tuvunaguye ndetse n'umutima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byabugenewe byifashishwa mu buvuzi, harimo ibikoresho bibiri biri gusa ubururu biteretseho utuntu hejuru tw'umweru.

Inyubako nziza cyane z'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, bifite ubusitani bwiza ndetse hari n'amapave ashashe mu mbuga, ikirere kirasa umweru ndetse n'ubururu byerekana ko nta mvura irimo.

Inyubako irimo ibitanda bisa umukara, ikaba ifite sima isa ubururu, ifite ibikuta n'abyo bisa umweru, harimo amaparafo y'umweru, n'amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa etaje, ifite ibirahuri byiza cyane ndetse ikaba igeretse, hakaba harinditseho ngo Polyclinique du plateau, imbere hateye ibiti by'imikindo byerekana ko hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, akaba ari gutambuka mu cyumba cyo kwa muganga, aho agenda aha abarwayi serivise zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku gatebe gasa icyatsi akaba ari umuganga, ari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi bambaye amashati y'umweru, bari kugenda bafashe udupaniye mu ntoki binjira mu nyubako ya KFH Rwanda. Aho bagiye gukoreramo inama yiga ku mitangire y'ubuvuzi mu Rwanda.

Umumama ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda y'igitenge, hari umusore ukiri muto w'umuganga wamusuye iwe, akaba ari kumuganiriza ndetse anamuhumuriza. Hirya hari insina ndetse inzu y'uwo mukecuru yubakishije amatafari ahiye.

Umuntu uryamye kwa muganga, aho yambaye ikabutura n'agapfukamunwa, ni umugabo ubyibushye cyane, akaba afite serumu ku kuboko ategereje ko abaganga babanza kureba uko amerewe muri icyo gitondo.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hakaba hari igitanda cy'umukara ndetse ibikuta bikaba bigiye biriho amashusho atandukanye, ari mu mabara y'icyatsi, w'ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba gicururizwamo imiti igiye itandukanye, kwa muganga iyo bamaze kukuvura bakohereza muri iki cyumba, maze wageramo ukereka umuganga uba arimo, akakurebera ku gakayi akaguha imiti bitewe n'iyo bakwandikiye.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inzu y'ikigo cy'igihugu cyita cyangwa kirwanya indwara ya kanseri hari ubusitani bwiza harimo n'ivaze y'umutuku iteyemo ururabo.

Abantu batatu b'abahanga mu by'ubuvuzi, bari ku byuma byifashishwa mu buvuzi, aho bari kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, bifitiye abaturage akamaro.

Inyubako nziza cyane ifite gate yanditseho ngo: ''Ikigo nderabuzima cya Kigina.'' Hanze hari umugore uhetse umwana, uri kuza kuhashaka serivisi z'ubuvuzi, amarembo arafunguye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi, bikaba biri mu mabara y'umukara.

Akabati karimo imiti myinshi igiye itandukanye, kakaba gasize amabara y'umweru n'ubururu, aha ni muri farumasi, ni byiza ko nawe wahanyarukira ukaza kuhagurira imiti igihe urwaye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, hakaba hari imodoka iparitsemo ndetse inzira, n'imbuga bishashemo amapavi. Hanze ku muryango hari icyapa cyanditseho ngo Sangwa polyclinic.

Inyubako ifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye, hanze hari umuhanda w'igitaka, hari icyapa cyanditseho ngo umujyi wa Kigali, hakaba hari n'ibiti birebire bitanga amahumbezi.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, hahagazemo abantu bagera muri bane bose b'abaganga. Bari kuganira, ni mu gitondo cya kare, bari kwiga uko bagiye gutanga serivisi uwo munsi.

Igitanda kiza cyane kiri kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku barwayi, hari insakazamashusho ebyiri zijimije, n'indimi iri kwaka irimo amoko menshi y'imbuto umuntu ashobora kurya.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri uwo mwuga, ibyiganjemo byinshi biri mu ibara ry'umweru, amakaro nayo arasa umweru, hejuru hari purafo nazo, ndetse n'ibikuta bisa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, ibikuta ni umweru ndetse n'icyatsi, inzugi zisa shokora, amatara ari kwaka umweru igitanda gishasheho amashuka y'umweru.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bwa etaje, iriho ibirahure ndetse ikaba iriho n'ibyapa by'amamaza ko hakoreramo Biontech.

Kwa muganga haba hari ibitanda abarwayi baje kwivuza baryamaho, hanyuma abaganga bakabakurikirana, mu gihe baba bari gusuzuma indwara barwaye, hari abarwari baryamye ndetse n'abaganga babiri, bari kubakurikirana.

Agatebe keza cyane kari mu ibara ry'icyatsi, gafite amapine aka ngaka kavamo intebe n'igitanda, gakunze kwicarwaho n'umuntu bari gukura amenyo, iruhande rwako hari akandi k'umukara gafite amapine, ibikuta n'umweru ndetse n'amakaro n'umweru.

Mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuvuzi, haryamyemo umurwayi urembye, hino hari umuganga uhahagaze uri kureba ibikoresho ngo ajye kumwitaho, hari kandi n'amarido y'icyatsi atandukanya ibitanda ku buryo nta murwayi wareba undi.

Abantu bateraniye hamwe aho bari gufata ifoto y'urwibutso, bari imbere y'ikigo nderabuzima aho handitseho ngo: ni inzu y'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira yucbkishijwe amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu.

Ni muri farumasi ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye nko kugurisha imiti. Igihe cyose urwaye ni byiza ko wanyurukira ahangaha bakaguha imiti byihuse, bitagusabye kwirigwa utonze umurongo kwa muganga.

Inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi zizwi nk'abaganga, zikaba zambaye imyambaro y'impuzakano y'umweru iririmo uturongo tw'umukara, bakaba bavura indwara z'ibyorezo zandura, urabona ko bambaye bikwije ku buryo indwara nt'aho yabanyura.

Iyi ni inyubako ngari irimo ibitanda, ndetse harimo n'amakaro asa umweru, amatara na purafu bisa umweru, ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi zita ku maso, harimo intebe zisa cyatsi ndetse na mudasobwa, hariho ishusho y'amaso ndetse n'intebe y'umukara umurwayi yicaraho.

Umuganga wambaye itaburiya. Akaba yapfuduye igikoresho kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru. Ari kurebamo, bigaragara ko ari utanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Kugira ngo abarwayi barusheho gukira.

Intebe isa icyatsi iteganye n'akandi gatoya nako gasa icyatsi, imbere yaho hari icyuma gisa umweru, hejuru hari insakazamashusho izimije, iri gusa umukara, purafo ni umweru ndetse no hasi harasa umweru.

Ni kwa muganga mu nyubako nziza cyane itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, by'umwihariko serivise z'ubuvuzi, harimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa muri ako kazi.

Abamama n'abagabo bateraniye hamwe mu cyumba k'inama, bicaye ku ntebe zisa umweru n'icyatsi, bambaye impuzankano z'udupira tw'umuhondo n'icyatsi cyerurutse, barakurikiye bari kureba imbere, bakurikiye umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kirekire cy'inganzamarumbo. Hakaba harimo igisima cyubakishijwe amabuye. Hakaba hari kugaragara n'inyubako irenga, ndende cyane.

Icyumba kigari kirimo inkuta z'umweru, amatara ari kwaka, harimo n'igikuta gisa umutuku n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi, amakaro y'aho nayo arasa umweru.

Inyubako yubakishije amatafarahi akaba ari ibitaro, hanze ahagaze umugabo, hejuru y'umuryango handitseho ngo salle ya materineti akaba ari inzu ababyeyi babyariramo, intebe zihari nta muntu uzicayemo.

Inyubako y'ibitaro isakaje amabati y'ubururu. Ibikuta birasa icyatsi cyijimye. Hanze haparitse akamodoka. Hari n'abantu bagera muri bane. Imbuga ishashemo amapave. Irimo n'uturonko tw'umweru.

Umuganga w'umugore, ari gupima umwana w'umukobwa, aho ari kumupima umuvuduko w'amaraso. Uwo mukobwa yambaye impuzankano zo ku ishuri, bigaragara ko yaje kwisuzumisha.

Inyubako nziza cyane, aho ifite ibirahuri bibengerana, hakaba harimo n'amakaro asa igitaka. Hari icyumba cya mbere kigaragaza ko ari aho umuntu bamushyira muri guma mu rugo ndetse n'aha kabiri.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa. Ikaba izitijwe ibyuma by'umutuku. Inkingi zubakishije amatafari ahiye. Hasi hateraniyemo abantu benshi cyane, bambaye imyambaro y'ubururu. Hanze haparitse akamodoka.

Igitanda cyiza kiri kwa muganga, kikaba kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari insakazamashusho ziteretse ku bikuta, ndetse hakaba hari n'ibirahuri biri gusa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kiri gusa umweru werurutse, hari icyuma abantu babacishamo igihe bashaka kureba uko ubuzima bwabo buba buhagaze.

Ubusitani bwiza cyane, bugiye buciyemo utuyira tw'abanyamaguru, harimo amapave. Hari n'amatara kandi acana kuri utwo tuyira, Hari n'inyubako zifite urugo, rwubakishije ibyuma by'ibyatsi.

Abantu benshi cyane batandukanye bakaba bateraniye ahantu hamwe, ahantu hari inyubako yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ngo Pediatric clinic, isize amarangi y'ubururu.

Inzu nziza cyane, ifite amadirishya asa umweru, ariho ibirahuri, imbere y'ayo hateye indabyo, ikaba iherereye mu karere ka Huye, akaba ari inzu yita ku barwayi bo mu mutwe, yitwa karayesi.

Umugabo wagiye kwa muganga aho muganga yambaye itaburiya n'akabaji ndetse na ga agiye kumutera urushinge kugira ngo amukingire indwara runaka itazamufata.

Mu cyumba mo imbere harimo ibyuma bisa umweru byifashishwa mu buvuzi, harimo kandi n'itakazamashusho ebyiri ndetse amakaro yaho arasa umweru, ibikuta n'umweru na purafo n'umweru.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, hejuru no munsi harimo abantu baje gushaka serivisi, hari n'indabyo kandi nziza cyane zisa icyatsi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'umweru zikinguye, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu, ngo isange one stop center. Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abagore bambaye udupfukamunwa, bakaba bahagaze imbere y'inyubako bahagaze mu mbuga ishashemo amapafe, aba bagore ni abaganga, iyo nyubako yanditseho ngo inzu y'ababyeyi izwi nka amaterinete, aho ababyeyi babyarira.

Ikiganza cy'umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiria, none muganga akaba yakimupfukiye yashyizeho za bande zitandukanye z'umweru kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, ari mu cyumba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye amaboko, iruhande rwe hari ivaze riteyemo ururabo rusa icyatsi.

Bari kutwigisha amoko agiye atandukanye, y'imyitozo ngororamubiri twakora. Hari ugusimbuka, hari ukujya twigorora turi ku gitanda, ndetse no gukirana, byose bigatuma umuntu agororoka.

Akamashini gasa umweru aho kifashishwa kari gupima ibirometero umuntu yagenze mu gihe yara ari gukora imyitozo ngororamubiri, karasa umweru utwo bakanda turi mu mabara y'icyatsi n'umukara.

Agakoresho kaba kari kwa muganga. Kaba gasa umweru. Amapine yako aba asa umukara. Aho bafata hasa umukara naho. Mo hagati harimo akantu kameze nk'impeta, nako gasa umukara.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye amaboko. Afite umusatsi gakondo wa menshi yawuzirikiye inyuma, kugira ngo utamubuza kwikorera imyitozo.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri y'umukara irimo akabara k'umutuku, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye hamwe bagera muri batandatu, imbere yabo hari umugabo uhagaze imbere wambaye itaburiya y'umweru, afashe ku cyuma cy'ikoranabuhanga cyazanywe ku bitaro ari kubereka uko gikoreshwa.

Amoko y'imbuto agiye atandukanye harimo pome, amaronji, ndetse n'imboga, hari na ariteri ndetse na metero yifashishwa n'abantu b'abadozi.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none araryamye muganga ari kumusuzuma, yambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'agashati gasa umweru.

Umwana mutoya cyane, ari kumwe na muganga, aho umuganga afite igikoresho cyabugenewe, ari kumutunga kugira ngo arebe ko nta burwayi afite, umwana na we yatuje bigaragara ko atagira ubwoba.

Agakapu k'umutuku karimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti, iyi miti ahanini ikaba yifashishwa bita ku bantu bagize ikibazo igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ikizingo gisa umweru aho kiba kiriho bande bambika umuntu iyo yagize ikibazo cy'imvune ni byiza cyane kukigira hafi yawe.

Ikirahuri kiri gusukwamo amazi, amazi akaba asa neza cyane, ni byiza kunywa amazi nk'aya kuko bituma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza nawe ndabigushishikarije.

Ishusho iri kutwereka amoko menshi ya siporo umuntu ashobora gukora, hari ukugorora umubiri, gukina umupira ndetse no gusimbuka.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri harimo umukobwa ndetse n'umusore bari kugenda kuri mucaka ndetse buri wese afite agacupa k'amazi yo kunywa mu ntoki hakurya hari agasozi karekare.

Amashusho agiye atandukanye atwereka abantu bari mu myitozo ngororamubiri, hari uwicaye ari gusoma igitabo, undi arikujya akoresha amaboko, undi ari kwiruka, undi ateruye ka ariteri gato, babiri bari gukina umupira ndetse n'abandi bagera muri batandatu nabo bari kuri mucaka.

Kwa muganga. Hari icyuma umuntu agenda akicaramo, mu gihe ashaka gukora imyitozo ngororamubiri. Hanyuma kikikaraga, kigenda kimugorora gake gake, atavunitse.

Kwa muganga haba hari ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, iyo ugezeyo muganga arahakujyana, ukaba urakora ariko nawe akaguhagarara iruhande kugira ngo arebe ko uri kubikora neza.

Umugabo wambaye ubusa hejuru akaba yavunitse urutugu, abaganga bafashe amabara y'ubururu n'umutuku bashushanya aho hantu havunitse kugira ngo nibajya kuhashyira umuti biborohere bahabone bitabagoye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amarangi y'umweru, hariho n'icyuma kiriho igitanda umuntu yicaraho akanaryamaho ari gukora imyitozo ngororamubiri, hanyuma kikajya kiramuha amahumbezi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agakabutura k'umukara n'impeta ku kuboko, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Udukapu tubiri harimo kamwe gafunguye utwo dukapu turasa umutuku, ako gafunguye karimo ibikoresho byifashishwa mu kwita ku bantu bagize n'ibibazo igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko bwa siporo wakora zigatuma ugira ubuzima bwiza, ndetse hari no kunywa ibinini byandikirwa na muganga, bigatuma na byo umererwa neza.

Umukobwa wambaye imyambaro y'icyatsi, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma umuntu agororoka. akagira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri y'icyatsi. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse bikanamurinda n'indwara za hato na hato.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, ari kumwe n'undi mugabo w'umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, bakaba bahagaze mu kibuga kirimo tapi isa icyatsi haciyemo n'akaronko k'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba afashe agatambaro agafatiye ku nkokora ze aho yagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa afashe gurudu mu ntoki ari kunywa amazi, afite umupira ku rutugu, bigaragara ko yari afite icyaka, ari kuyanywa abikunze rwose.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, nta musatsi afite, yambaye ekuteri ndetse n'isaha, arebye hakurya. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agubwa neza.

Umugabo wambaye agapira ka gisirikari n'udupfukantoki, ari mu cyumba cyo kwa muganga, aho ari kwita ku bikoresho byaho, bigaragara ko ari umutekinisiye wo kwa muganga.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa bavura abantu bagize ikibazo igihe bakoraga siporo, izi ni bande ziri mu dukweto turiho imikandara itandukanye iy'umuhondo, iy'umutuku, iy'icyatsi, ubururu ndetse n'umukara.

Akagare gahabwa abafite ubumuga cyangwa abatabasha kugenda, kaba gafite amapine ane, harimo abiri manini ndetse n'akandi kamwe gatoya, haba hariho umufariso w'umukara ndetse n'aho umuntu afata asunitse.

Umuntu yarari gukora imyitozo ngororamubiri, maze aravunika. None muganga yamushyiriye amabara y'ubururu n'umutuku ahavunitse, kugira ngo najya kumuvura bimworohere kuhatahura.

Umuntu wambaye agapira kamufashe, afite ubwanwa buke n'umusatsi muke, yambaye ekuteri mu matwi, afite icupa ry'amazi ari kunywa, amazi ni ingirakamaro cyane kuko iyo uyanyweye ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi n'ijage, aya mazi uko bigaragara ateye icyaka, uyanyweye ufite inyota yahita igenda, nakugira inama yo kuzajya unywa amazi nibura nka litiro ku munsi.

Impamvu icumi zatuma ubuzima bwawe buhinduka; hari uguhora ukora imyitozo ngororamubiri, kwicara umeze neza ndetse no gukora imyitozo, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, afite n'isaha ku kuboko, akaba afashe agacupa k'amazi ari kunywa. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wavunitse igihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri none ari kumwe n'abaganga bari kumuvura kugira ngo akire.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, kuko iyo uyikoze bituma ugira ubuzima bwiza, nakugira inama yo kujya uzinduka mu gitondo cya kare, ugakora imyitozo ngororamubiri, kuko bizakurinda indwara za hato na hato.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse harimo n'imiti. Bikaba bikunze kwifashishwa bavura abantu bagize ibibazo igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri. Harimo n'uducupa ndetse n'udukarito turimo iyo miti.

Umuntu wagize ikibazo none abakozi b'umuryango utabara imbabare mu Rwanda witwa kuruwaruje baramuteruye bamushyiriye abaganga ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Umusore wicaye ariko utagaragara mu maso akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibyatsi hafi bigiye bitandukanye, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga igihe umuntu aba yanegekaye, bamushyira kuri aka kagare kazwi nka burankare bakamutwaraho bakamujyana aho bashaka mu rwego rwo kumwitaho.

Ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, biri ahantu mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, ibi byuma bifasha kwa muganga kwita ku barwayi mu buryo bworoshye.

Umukobwa ufite agatambaro ku rutugu, yambaye agasengeri gafite udushumi tw'umukara, afite icupa ry'umukara ari kunywa amazi, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Umuntu, wari uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yavunitse, yaje kwivuza kwa muganga, aho yicaye ku gitanda, akaba yahinnye ipantaro, yazamuye ukuguru kumwe, muganga ari kumuzingiraho bande kugira ngo yoroherwe.

Icyapa kiri mu mabara asa icyatsi, cyanditseho amagambo y'umweru, bari kwerekana ko batera ibinya bigiye bitandukanye, nawe niba ushaka kwivuza uragenda hariya bakagutera ikinya bakakuvura utabyumva.

Agacupa kaba karimo imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi gakondo, hakaba handitseho amagambo Aloe vera, hashushanyijeho n'igisiga, bigaragaza ko bari kwamamaza iki kigo.

Ibyatsi by'ibimera byasaruwe birambitse ahantu hamwe, hagati yabyo hari agasekuro karimo umuhini, kakaba kagiye gushyirwamo ibi byatsi, hanyuma bakabisekura, bakabivanga bikavamo umuti hanyuma ukifashishwa.

Agakarito karimo ubwoko bw'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hariho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'akazeru k'umutuku kanditseho mirongo itanu ku ijana na makumyabiri ku'ijana.

Mu mirima myinshi igiye itandukanye usanga harimo amoko menshi y'ibimera. Ibi bimera byifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara za gakondo, arizo tuzi nk'indwara za Kinyarwanda.

Iki ni ikimera kizwi nk'inyabarasanya cyangwa igishuko, amababi yacyo arafasha cyane, avura indwara zitandukanye, aho uyavuruguta ukayishyiraho ahantu wakomeretse, hanyuma amaraso akarekeraho kuza.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agacupa k'umweru karimo imiti gakondo, hakaba hashushanyijeho icyatsi cy'igikakarubamba, bigaragaza ko ari cyo kivamo iyo miti bifashisha.

Amoko y'ibyatsi bigiye bitandukanye bivamo imiti gakondo, turahabona icyapa cyanditseho ko ari imiti y'ibyatsi bikomoka ku cyayi, hakurya hari ubusitani bwiza cyane.

Agacupa ka k'umweru gashushanyijeho igikakarubamba, hari n'akandi karambitse imbere yako, hirya hari agasahani karimo umutsima, ndetse na voka iri hirya, ibi byose bivamo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tugera muri dutatu, akari hasi ni umweru, ako hagati karasa umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, hari akandi ko hejuru n'ako kariho umupfundikizo w'ubururu n'ako gasa ubururu, kanditseho amavuta y'uruhu.

Pipinyiri iteyemo amoko y'ibiti agiye atandukanye. Ibi biti bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Aho bivura indwara zitandukanye.

Uducupa twinshi cyane tumwe tugeretse hejuru y'utundi, dufite imipfundikizo igiye itandukanye higanjemo imipfundikizo isa icyatsi ndetse n'iyindi isa umweru, hakaba harimo imiti gakondo.

Agasekuru gasa umweru. Kakaba kari ipande y'uducupa tubiri. Kakaba karimo karavagirwamo imiti gakondo igiye itandukanye aho bari kuyihuza, kugira ngo nimara kunoga, bayishyirare muri aka gacupa gacagaze.

Ibiti birebire by'ibimera biri ahantu mu gisambu. Bikaba birimo amoko atandukanye. Bimwe muri byo, iyo byeze, barabisarura, bikavamo umuti gakondo uvura indwara zinyuranye.

Ubwoko bw'ibimera biba bisa icyatsi, bikunze kwifashishwa mu buvuzi bw'umuco w'Afurika, aho bivura indwara zinyuranye by'umwihariko indwara za gakondo.

Umuntu utagaragara neza ariko wambaye agapira k'umutuku n'ikote ry'umukara, ari ahantu mu gisambu aho ajya gushaka imiti gakondo ngo ajye kuyitunganya hanyuma ajye kuvura umwana we arwaye.

Uducupa ndetse n'udukarito dutandukanye, turimo imiti gakondo ikunze kwifashishwa iyo bavura indwara gakondo, cyane cyane indwara z'amarozi.

Ishusho ishushanyijeho ubwoko bw'ibimera bitandukanye. Hari ibimera bisanzwe, ndetse hari n'ikimera cy'igikakarubanda. Iki kivura indwara zinyuranye cyane zirenga icumi.

Agakarito karimo uducupa twinshi dusa umuhondo. Utwo ducupa tukaba dushushanyijeho igikakarubamba. Hanze y'agakarito hateretse akandi gacupa nako gashushanyijeho igikakarubamba, aho batwireka ko harimo imiti gakondo.

Ibimera biri mu mabara y'icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi Gakondo, aho bivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza cyane kwivura ukoresheje ibi bimera kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Ukuboko k'umuntu gufashe ku mababi y'ikimera, akaba agiye kuyasoroma ngo ajye kuyatunganya ayavanemo umuti gakondo uvura indwara nyinshi zinyuranye.

Abantu bari kugenda bagana ahantu mu ishyamba, bameze nk'abari mu bukerarugendo. Bagiye gusura ibiti gakondo biba biri mu mashyamba, bikunze kuvamo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Uducupa tugiye dutandukanye, hari tubiri dushushanyijeho igikakarubamba, turi ahantu hari ibara ry'icyatsi, hari n'akandi kamwe gapfunduye kari impande y'indabyo ndetse n'igikakarubamba, batwereka ko umuti ujya mu aka gacupa, uba ukozwe mu ndabyo n'igikakarubamba.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, giteye ahantu mu gisambu, iyo gikuze baragisarura bakakijyana mu nganda bakagitunganyamo imiti gakondo.

Amashusho agera muri ane, atwereka ibimera bigiye bitandukanye. Ibi byose bishobora kuvamo umuti gakondo, aho byakwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, zigiye zitandukanye.

Icyapa kiri kutwereka imiti gakondo wakoresha kugira ngo wivure indwara zitandukanye, hariho umumama umerewe nabi ariko bari kumubwira ngo wihangayika igisubizo kirahari, gana ubuvuzi gakondo bugufashe.

Ibimera bigiye bitandukanye, kimwe mu bimenyetso bikwereka ko cyakuze nuko kizana indabyo. Izi ndabyo rero, ziragenda zigatunganywa zikavamo imiti itandukanye ivura indwara za gakondo.

Amashusho agera muri atandatu, atwereka ibimera, bivamo imiti gakondo. Hakaba hari akambi, katwereka ko ibi bimera byikusanyije, bivamo ubwoko bumwe bw'umuti gakondo, uvura indwara zinyuranye.

Ikibabi cy'icyatsi kirambitseho ibinini, bakaba batwereka ko ibi binini bikomoka kuri iki kimera, iyo cyeze baragisarura, bakagitunganya kikavamo iy'imiti.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'ubururu, akaba ari umuvuzi gakondo, handitseho munsi ye ngo ''ndi umujyanama wawe mu buzima n'imirire''.

Amoko agiye atandukanye y'ibyatsi afashwe n'intoki, aho bari kutwereka ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo bikaba byavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye agapira w'umweru, akaba ari mu gisambu kirimo ibimera byinshi, ari gusoroma utubabi duke, akaba yagiye gushaka umwe mu miti yifashishwa mu buvuzi gakondo ikomoka ku byatsi.

Uducupa tubiri tw'umuhondo hino harambitse agakarito ndetse hari n'akandi gakarito gakoze mu ibara ry'ubururu. Utwo ducupa tukaba dushushanyijeho ikimera bita igikakarubamba, hakaba hariho kandi n'igisiga kiri kuguruka.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'ubururu, umweru, icyatsi kijimye ndetse n'i roza, bakaba banditseho amagambo ngo ''Infinite'' akaba ari imiti gakondo.

Uducupa dutatu, kamwe karasa umuhondo, utundi tubiri tugakikije turasa umweru. Dushushanyijeho icyatsi cy'igikakarubamba ndetse n'ibisiga biri kuguruka.

Amavase ateyemo ubwoko bw'ibimera bitandukanye bimwe muri ibi bimera iyo bikuze barabisarura bakabijyana mu nganda zabugenewe zikabitunganyamo imiti ya gakondo.

Ibyatsi bigiye bitandukanye birasa icyatsi ndetse bifite amababi y'icyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo aho bivura indwara za kinyarwanda ziba zarananiranye.

Uducupa dutandukanye dusa umweru hakaba handikishijeho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse tukaba dushushanyijeho igisiga kiri kuguruka turimo imiti gakondo.

Uducupa tugera muri tune, tukaba turi gusa umweru twanditseho amagambo agaragaza ko ari imiti ikomoka ku bimera. Hashushanyijeho igisiga ndetse hariho n'amagambo agiye atandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye, harimo udusa umuhondo, dushushanyijeho igikakarubamba, kikaba kivura indwara zirenga cumi n'ebyiri.

Aha bari kutwereka amategeko n'amabwiriza, agenga kwiyandikisha mu buvuzi gakondo, bwo mu karere ka Afurika, ndetse n'uburyo wabigenza.

Abantu benshi bari mu murima uhinzemo ibyatsi by'ibikakarubamba, hari ibimashini byifashishwa mu guhinga ndetse hari n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, bivamo imiti gakondo.

Ni mu gisambu kinini kirimo ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye. Harimo kimwe cyaruse ibindi, gifite utubabi dutoya. Cyitwa umunazi. Amababi yacyo n'imbuto zivamo zifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'ubururu gafite n'umupfundikizo w'ubururu kanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ariko asobanuye mu kinyarwanda ngo amavuta y'uruhu ashushanyijeho igisiga, aya mavuta iyo uyishyize ku mubiri utandukana n'ibiheri.

Agakarito kaba karimo imiti igiye itandukanye ivura indwara za gakondo, kari mu ibara ry'umweru ndetse n'indoza, hashushanyijeho uturongonko tw'iroza n'utw'icyatsi.

Agacupa gasa icyatsi, gashushanyije igisiga, gapfundije umupfundikizo w'umweru, iruhande rwako harambitse igikakarubamba, bari kutwereka ko uyu muti urimo ukozwe mu gikakarubamba.

Intabire ihinze neza, iteyemo ibihingwa cyangwa se ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo aho bivanwamo imiti ivura ibicurane.

Ikimera gifite amababi asa icyatsi, kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, aho cyavura indwara zigiye zinyuranye, cyane cyane nk'indwara za kinyarwanda.

Agasahani karimo umutobe w'amacunga, kakaba karimo n'igisate kimwe cy'icunga, hirya hari tangawizi, ibi byose babyifashisha mu buvuzi bwa gihanga.

Agakarito kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba handitseho inyuma ngo "masike". Bikaba zerekana ko kavamo udupfukamunwa twifashisha mu kurinda indwara zikwirakwira, aho umuntu akambara ku munwa.

Igihingwa iyo gikuze gitanga indabo zigiye zitandukanye. Izi ndabo rero iyo zeze barazisarura bakazijyana mu nganda zabugenewe. Bakazitunganyamo imiti gakondo.

Ubwoko bw'ibimera bikunze kumera ahantu mu gisambu, bikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho baba bavura indwara zinyuranye, iyo byeze barabitunganya hanyuma bakabigarura byavuyemo imiti.

Umugabo wambaye ikote ry'umutuku ufashe ku gihingwa, hirya hari ubutaka buteyeho ibihingwa by'ibimera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Tungurusumu ziri gusa umweru, izi ni ingenzi cyane kuko zirifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye kandi zifashishwa no mu mafunguro aho zikora nk'igitunguru.